Amahame g'intore: intore ntiganya ishaka ibisubizo, ntiyoba no mu ishyamba ry'inzitane yishakiraga inzira.

Abanyeshuri bari kuri mashine nibyiza ko kumenyera gukoresha ikoranabuhanga byakwirakwizwa mubantu bose.

Umubaji ari kubaza intebe kwa kundi aba asigaje kunyuzaho ponseze kugira ngo bigende biringaniye neza.

Abantu basukaga bakoraga akazi keza cyane kuko umuntu agenda yishimye kandi aba akeye neza cyane.

Ekole henematise meterinere ,zeru karindwi umunane umunane, magana atanu na makumyabiri, ijana na mirongo irindwi n'umunane.

Imashini, umutwe, amaguru ya wo, abanyeshuri bari kudoda, bambaye amashati y'imyeru.

Abanyeshuri, ubuzima bwo ku ishuri, kwa kundi baba bateraniye mu magurupe, bari kwiga ku kibazo runaka.

Kompiyuta. abanyeshuri bari kubererekera uburyo bagiye kuza bakoresha kompiyuta, kugira ngo bamenye ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bicaraga ku ntebe. Iyo bageze mu ishuri bakiga neza bigatuma batsinda amasomo neza.

Abanyeshuri bambaye ishati z'imyeru, imituku ya karokaro, matematikari, intebe.

Abasuderi bari gusudira idirisha, urugi bafite ibikoresho bijyanye n'akazi bakoraga.

Abagaride baricaye mu mucaca ,abandi barahagaze bashinzwe kuturindira ibidukikije kugira ngo bitangirika.

Ububaji ni kimwe mu myuga idufatiye runini, kuko icyo dukeneye tukibonera hafi, baba babifite bihagije.

Imashini zidodaga imyenda, abadozi biba byiza cyane kuko bituma umuntu abona icyo yambara.

Intebe z'ibyuma, ameza y'ibyuma, mu nzu irimo amakaro bidufasha guhora hasa neza kuko haba hafite isuku ihagije.